Ni ingirakamaro guhinga mu bishanga umuntu akezamo imyaka, agashyira ku isoko akanajyana no mu rugo abaturage bakarya, byaba bihagije kuba wakoresha ibishanga yifashisha ubuhinzi bwose butandukanye.

Twageze ku musaruro uri hejuru mu bijyanye n'ubuhinzi bw'imyaka, tubona ibiribwa byo kurya, tunasagurira n'amasoko, ubukene n'inzara twarabisezereye, ntibizongera kubaho kuri buri wese mu baturage.

Imyaka ibasha kwitabwaho, ikanavomererwa, bituma imyaka ikura neza, ikazagira umusaruro ku buryo n'abantu bajyana ku masoko imyaka yabo itazagira ikibazo mu bijyanye n'imikurire yayo.

Umusaruro wabashije kwiyongera mu bijyanye n'ubuhinzi hifashishijwe kuvomerera imyaka buri myaka isiga ikura neza mu gihe k'izuba umusaruro ukabasha kuboneka tugasagurira n'amasoko.